Iyi ni ifoto yafotowe ahantu mu ishuri, abanyeshuri barimo kwiga ikoranabuhanga cyane rikoreramo ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo za mudasobwa n'ibindi. Bigaragara ko abanyeshuri bakurikiye, bamwe bari ku mashini biga, abandi barimo kwandika inshamake mwarimu arimo kwandika imbere ku kibaho.

Iyi ni resitora resuran hari aho bafatira ibyo kurya mu gihe umuntu aguye isari. Bigaragara ko harimo intebe. Intebe akaba ibikoresho bakoresha bicaraho. Harimo n'ameza bakoresha baterekaho ibiryo, abantu bakarya nyuma y'aho bahuwe hejuru hari twakwita udutapi bahanagura bakoreshejwe ibitambaro kugirango ngo harusheho kugira isuku cyane isuku ari isoko y'ubuzima.

Uyu ni umuntu urimo gusudira, yifashishije ibikoresho byo gusudira, yambaye imyambaro yabugenewe n'uturinda ntoki, akaba yambaye ni ibikoresho bimurinda bimurindira amaso, kugira ngo ataza kwangirika.

Aba ni abatetsi barimo gutegura amafunguro atandukanye arimo imigati, sarade, umuceri, ibirayi, akaba ari ahantu muri resitora ahantu bafatira amafunguro, abantu baje kurya.

Iki ni igikoresho bakoresha cy'ikoranabuhanga, bakoresha mu gupima ibintu bijyanye n'umuriro, umuriro wa REG. Kuko ndabona harimo bateri yacyo y'iki gikoresho, harimo n'umuntu usa nkaho ari gukora utuntu two kukiringaniza neza umuriro.